Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, aho bamwe ari abayobozi mu nzego z'igihugu cyacu, bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mbera byombi bigaragaramo ko harimo abantu benshi bagaragara ko hari urubyiruko hakaba harimo n'umuntu uri kubaha ikiganiro ku mpande hakaba harimo n'umuntu uhagaze ubareba.

Inzi mberabyombi aho bigaragara ko iyo nzu iteraniyemo n'abayobozi batandukanye b'inzego z'igihugu, bikaba bigaragara ko bose bahuze kandi ubona ko bari kwandika, imbere yabo hakaba hari umuntu ubakuriye uri kubaha ikiganiro ndetse hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo barimo.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hicayemo abantu benshi batandukanye. Aho bigaragara ko harimo n'abambaye impuzankano. Bikaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi hakagaragara n'umuntu uri gufata amashusho ndetse n'amajwi.

iyi shusho iratwereka abantu benshi cyane bari munzu mberabyombi bigaragara ko buri muntu wese afite igikoresho cyabugenewe aricyo mudasobwa n'ibikoresho ngendanwa by'itumanwaho ari kwandika amakuru arigufata hakaba hari n'ibikoresho kibafata amajwi.

Inzu mbera byombi bigaragara ko hicayemo urubyiruko. Ukaba ubona ko bari kungungurana ibitekerezo hakaba hari n'ibyapa biranga ikintu bari kuganiraho.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Iyi shusho irerekana umuryango ushinzwe gufasha abantu, wateranye umaze kuva mu nama yabo bagafata ifoto igaragaza urwibutso bahuye.

Iyi shusho iratwereka mu nzu mberabyomba aho bigaragara ko ari abarimu bicaye ahantu hamwe kandi bambaye impuzankano, hakaba harimo n'umwe utambaye impuzankano kandi bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, kandi buri muyobozi ku meza ye hakaba hari amazi ari mu gacupa, kandi bikagaragara ko harimo n'umuntu utari Umunyarwanda, bigaragara ko ari umwirabura. Bigaragara ko hari umuntu uri kubaha ikiganiro bateze amatwi.

Imbaga y'abantu benshi iri ahantu hamwe mu nzu mberabyombi, bigaragara ko ari abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano, hakaba harimo n'abisiramukazi bambaye impuzankano ibaranga, ndetse n'abandi bagiye bambaye izindi mpuzankano zitandukanye, bikaba bigaragara ko harimo umuyobozi wabo ubahagazemo hagati.

Inzu mberabyombi bigaragarako hicayemo abayobozi bari mu nzego zikuru z'igihugu, kandi hakaba hari n'umuntu uhagaze inyuma ari kureba abari imbere kandi n'abicaye muri izi ntebe bakaba bakurikiranye umuntu uri kubaha ikiganiro, kandi buri wese imbere ye hakaba hari igikoresho ndangururamajwi ndetse n'icupa ririmo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo umuyobozi ari guha bantu ikiganiro. Bikaba bigaragara ko afashe igikoresho nsakazamajwi, abwira abo bantu aranguruye.

Abantu bicaye mu nzu mbera byombi ubona ko harimo intebe nyinshi ziticaweho kandi abo bantu buri wese ukaba ubona ko ahugiye mu kintu ari gukora, kandi hakaba hari n'uhagaze afite impapuro hejuru yabo.

Inzu mbera byombi bigaragara ko iyo nzu harimo abantu benshi bari mu nama ndetse bamwe ubona ko ari abayobozi, kandi buri wese akaba afite aho ari kwandika ibyo ari kubwirwa, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubaha imbwirwaruhame.

Abadamu batatu ubona ko bicaye mu nzu mberabyombi bikaba bigaragara ko imbere ya buri muntu hagiye hari igitabo yandikamo amakuru kandi buri wese akaba agiye afite icupa ririmo amazi.

Inzu mbera byombi, bigaragara ko abayirimo bose bambaye impuzankano. Bikaba bigaragara ko hari umuntu uri gutanga igikoresho ndangururamajwi kandi bikagaragara ko hari ibyapa biranga ibyo barimo Kandi kuri buri wese ku meza ye hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse n'agatabo ari kwandikamo ibyavugiwe mu nama.

Ishusho iratwereka imbaga y'abantu iri mu nzu mberabyombi, aho bigaragara ko bari mu nama, imbere yaho ku madirishya bigaragara ko hari imirasire y'izuba yarashe ku madirishya inyuma.

Inzu mberabyombi bigaragara ko yicawemo n'abayobozi bari kuganira, aho buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi kandi hakaba hari n'igitabo ngendanwamo agenda yandikamo ibyavugiwe mu nama, hakaba harimo n'ugaragara ko ari umwirabura.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abambaye impuzankano, bikaba bigaragara ko bafite umuntu uri kubaha ikiganiro aho abenshi ubona bahuze bari kwandika.

Iyi shusho iratwereka inzi mberabyombi bigaragara ko hateraniyemo abayobozi bicaye baganira ku bibazo bihari biba bibangamiye abaturage, bikaba bigaragara ko ari ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ariho buteraniye bwicaye bari kwiga kuri Kigali yacu.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, bikaba bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubaha ikiganiro kandi buri wese imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse bakaba banafite n'udutabo bandikamo cyangwa se ikayi bandikamo ibyavugiwe mu nama hakaba, harimo na za mudasobwa zitandukanye.

Umuntu w'umudamu afashe igikoresho ndangururamajwi ari rwo mu rurimi rw'amahanga mikoro, akaba bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hakaba hari ameza yabugenewe, kandi hakaba hanarambitse umuti wo gukaraba.

Abantu benshi cyane, ubona ko bicaye hamwe kandi ari urubyiruko bakaba babmaye impuzangano, bikaba bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi, yicayemo abantu benshi kandi bambaye impuzankano, ukaba ubona ko abeshi ari urubyiruko kandi imbere yabo hakaba hagiye harimo icupa ririmo amazi, bakaba bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Iyi shusho iratwereka imbaga y'abantu bari mu nzu mberabyombi aho bigaragara ko hari inama iri kuhabera kandi ukabona ko bateze amatwi umuntu uri imbere uri kubaha ibiganiro.

Abantu babiri aho hari umudamu uzamuye ukuboko bigaragara ko ari kubaza ikibazo hakaba hari n'undi mugabo bigaragara ko ari kwandika, kandi buri imbere y'umuntu hakaba hari agacupa karimo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, ariko ukabona ko higanjemo urubyiruko, aho kuri buri wese kuri buri meza ye hagiye harimo icupa ririmo amazi kandi bigaragara ko batumbiriye umuntu uri kubaha ikiganiro.

Ku mbuga ngari bigaragara ko hari imbaga y'abantu benshi, bigaragara ko baje kumva ibyo umuyobozi ababwira kandi hakaba hari n'umuntu uri gufata amajwi n'amashusho, abo bantu bose bikagaragara ko bateze umuyobozi amatwi kandi ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu hejuru harimo na gake kivanze k'umweru.

Inzumberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi kandi ubona ko ari abayobozi bakaba bicaye bari bakurikiye umuntu uri kubaha ibiganiro imbere yabo ku meza hakaba hari udupipiri tw'amazi, n'amakayi bari kwandikamo ibyo bari kubwirwa.

Iyi shusho iratwereka abantu batandukanye bigaragara ko ari urubyiruko, aho buri wese afite ikayi ari kwandikamo kandi imbere ye akaba hari mazi ari mu dupipiri.

Ishusho iratwereka abantu bicaye mu nzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo intebe nyinshi kandi hakaba n'abicaye ku murongo wa mbere ubona ko buri wese afite icyo ari gukora, bamwe barifashe ariko undi ari kwandika bigaragara ko ari umuntu uri kubaha ibiganiro bateze amatwi.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, kandi kuri buri wese imbere ku meza hakaba hari igitabo ngendanwa ari kwandikamo ibyavugiwe mu nama, kandi hakaba hari na mudasobwa, hakaba hari n'icupa ririmo amazi, bakaba bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Inzu mberabyombi, bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, aho bigaragara ko buri muntu wese imbere ye hagiye hari mudasobwa. Bikaba bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubaha ikiganiro.

Iyi shusho irerekana abantu batatu bari imbere y'abandi, bigaragara ko harimo umuyobozi ufashe ijambo ari kubwira abamuteze amatwi, bikaba bigaragara ko ari ibyo ari kubwira abantu bari kumva.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hahuriyemo abayobozi batandukanye hakaba hari umuntu uri kuba ikiganiro bikaba bigaragara ko buri wese afite telefone ngendanwa kandi imbere ye hakaba hari mudasobwa akaba afite n'ikayi igendanwa yo kwandikamo ibyavugiwe mu nama kandi bikagaragara ko buri wese iruhande rwe hari icupa ririmo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko yicayemo abantu benshi aho bigaragara ko ku ntebe z'imbere hicayemo abayobozi, ndetse buri muyobozi imbere ye akaba hari icupa ririmo amazi ariko umwe muri bo bikagaragara ko afite igikoresho ndangururamajwi bigaragara ko ari umuntu uri kuvuga.

Iki cyapa kirerekana abantu batandukanye harimo n'urubyiruko n'abakuze, hakaba harimo n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye, harimo n'inzego z'umutekano. Bikaba bigaragara ko ari ihuriro bitabiriye rifite ibyo rivugaho.

Iyi shusho iratwereka inzu mberabyombi aho bigaragara ko hari ababyeyi bari mu nama ndetse n'abagabo kandi ukabona ko hari umubyeyi uhagarariye wari ufite igikoresho cyabugenewe gitambutsa amajwi ari kubaza ikibazo ababahaye ibiganiro.

Inzu mberabyombi ubona ko yicayemo abantu benshi, bikaba bigaragara ko ari abantu bahuriye hamwe kandi bafite umugambi umwe, bakaba bafite ibyo bitabiriye bari kuganiraho hakaba hari n'icyapa kiranga ibyabahuje.

Abantu beshi ubona ko bari ahantu hamwe, hakaba harimo abambaye impuzankano, hakaba harimo n'abagabo bambaye impuzankano ndetse n'abadamu bambaye impuzankano bigaragara ko ari abantu bakora munzego zimwe.

Umuntu bigaragara ko afite igikoresho ndangururamajwi bigaragara ko yambaye n'impuzankano akariwe umutoza w'intore bikagaragara ko ari kwigisha urubyiruko kandi narwo ruzi ruri ku rugerero rubona ko rwambaye impuzankano iruranga.

Inzu mberabyombi. Aho bigaragara ko iyo nzu irimo abayobozi batandukanye. Bikaba bigaragara ko imbere hicaye umuyobozi uri gutanga ikiganiro. Imbere ye hakaba hari indangururamajwi ndetse n'urupapuro. Akaba afite n'ikaramu mu ntoki kandi imbere ye hakaba hari abantu benshi bicaye bari kumva ibiganiro abaha kandi kuri buri meza, hakaba hari icupa ry'amazi.

Abantu benshi ubona ko bicaye mu nzu mberabyombi, bakaba bose bambaye impuzankano hakaba hari n'umuntu ubari imbere ufashe ibikoresho ndamgururamajwi, ari kubabwi barebana bose kandi bamuteze amatwi.

Iyi shusho irerekana abantu bari mu nama, harimo, aho hantu hakaba hakikijwe n'ibendera ry'u Rwanda, kandi ukaba ubona ko bari ku nama y'ibintu bimwe bose bahuje imigambi.

Iyi shusho iratwereka abantu batatu, harimo abagabo babiri, umugabo umwe yicaye ku ruhande rwo hepfo undi ikabayica ku rwo haruguru, hagati hakabamo umudamu, aho buri wese afite ikayi ari kwandikamo, uwo hepfo akaba afite indangururamajwi ari kubwira abantu. Bigaragara ko ari inama bari barimo.

Inzu mbera byombi, aho bigaragara ko harimo abantu benshi cyane kandi bakaba bambaye impuzankano y'umweru. Imbere yabo hakaba hari umuyobozi uri kuba ikiganiro, ndetse hakaba hari n'ibyapa byerekana ibiganiro barimo.

Abantu bari mu inama bigaragara ko bari mu nzu mberabyombi. Aho ubona buri wese ari kureba umuntu umuri imbere ibyo ari kuvuga akaba harimo n'ufata amashusho ndetse n'amajwi. Hejuru yabo hakaba harimo n'amatara yaka. Buri wese akaba afite ikintu ari kwandikamo ibyo ari kumva.

Imodoka nyinshi cyane, bikaba bigaragara ko zifite amabara atandukanye. Hakaba hari n'abantu bicaye imbere zabo, izo ntebe bicayeho zikaba ari iz'ibiti zikorwa mu mbaho. Hakaba hari abantu babiri bahagaze ndetse n'abandi babiri bicaye, bikaba bigaragara ko bari gutanga ibiganiro. Hakaba hari n'abari gufata amashusho ndetse n'uri kureba muri telefoni ntoya ngendanwa.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye kandi buri muyobozi kuri buri meza ye akaba hari icupa ry,amazi bikaba bigaragara ko kandi kuri buri meza hagiye ariho igikoresho ndangururamajwi bikagaragara ko hari umudamu ufite indangururamajwi ari kubaza ikibazo abayobozi babahaye ibiganiro inyuma hakaba harimo n'abandi bahagaze bari gufata amashusho.

Mudasobwa iri gukoresha serivisi z'Irembo, bakwereka uburyo wakoresha iyo serivisi waka serivisi ushaka muri leta bakaba babyita...

Abana bigaragara ko bishimye bafite amakayi bari kwandika; indege bigaragara ko iri mu kirere; amazu manini ubona ko ari ay'icyerekezo kigezweho, imihanda bigaragara ko irimo abantu benshi.

Igihingwa cyera mu Rwanda cyane utapfa gusanga ahandi hose ku isi, icyo gihingwa kikaba ari icyayi. Kikaba gifasha abaturage mu kwiteza imbere, aho ubona ko harimo abakozi benshi bari kugisoroma kandi bishimye. Hakurya yaho haragaragara ibiti by'amashyamba byinshi cyane.

Iyi shusho irerekana serivisi z'irembo aho bakwereka inzira aho umuntu anyura iyo agiye gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga by'agateganyo.

Iyi shusho irerekana, aho umuganga ari gutera umurwayi urushinge, ikaba hariho n'icyapa cyerekana ko hasigaye iminsi ibiri.

Icyapa ubona ko cyanditseho amagambo, menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa, aho bigaragara ko hari ishusho y'abantu bigaragara ko bari kwamamaza ibyo gutanga umusoro.

Abantu bicaye bigaragara ko bari kureba abandi bantu babiri bahagaze bafite ibikoresho by'itumanaho, bakaba bafite ibintu wagirango bari gusomera abicaye.

Umudamu ubona ko ari guseka cyane kandi ari no kuvugira ku bikoresho itumanaho kandi ukaba ubona ko yishimiye ibyo akora aho hantu hakaba hari n'ibyapa biranga icyo akora.

Iminarasakaza tumanaho bigaragara ko yubakiye ahantu hakaba hari n'inzu zihakikije ku mpande yaho hakaba ahri n'indabo nziza cyane, hakurya yaho hakagaragara amashusho atuwemo ubona ko ari amazu atuwemo n'abantu kandi ikirere hejuru kikaba gisa umweru.

Iki cyapa kirerekana serivisi zitangwa n'irembo, uko wazikoresha ushaka gukoresha serivisi y'irembo.

ibiti byinshi cyane bigaragara ko iri ari ishyamba rya Nyungwe kandi bikaba bigaragara ko ari ishyamba rifite ibiti byiza cyane kandi bitohagiye binogeye kubireba n'amasomo, ari ishyamba rimwe mu byinjiza amafaranga menshi mu rwanda ariyo twita amadovize azanwe n'abanyamahanga baje kuri sura.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi, bikaba bigaragara ko aho hantu ariho umuriro w'amashanyarazi uva kandi hakaba hazitiye, hakuno yaho hakaba hari n'ibyatsi n'ibiti byakuze.

Iyi shusho iragaragaza umugabo aho afite telefone yiwe bigaragaza ko ari ukuyitaka ibyiza byayo; imbere yaho hakaba hari n'ibyapa biranga ubwoko bw'iyo telefone, hejuru yaho hakaba n'agafuka k'umweru.

Itangazo ubona ko rivuye mu butegetsi bwo hejuru, aho rigaragaza umunsi ndetse n'itariki rikaba ryereka abakozi ko hari ingingo zahindutse z'isaha batangiriragaho akazi.

Terefone ngendanwa ndetse na mudasobwa aho bakwereka uburyo wakoresha ibyo bikoresho byose, ukabasha gukoresha serivisi z'irembo ukabona icyo ushatse kandi utavuye aho uri, bakaba babyita byikorere.

Bigaragara ko iri kutwereka, uburyo wakoresha serivisi z'irembo, njya kandi ku rubuga irembo gove, bikaba bigaragara uburyo wakoramo, ukabona serivisi zitandukanye z'abo batanga, kandi mu buryo bworoshye.

Abantu benshi bari mu nzu mberabyombi, bigaragara ko harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuze. Imbere yabo hakaba hari umuntu uri kubaha ikiganiro kandi ukaba ubona ko hejuru hari n'imisozi ubona idatuwe kandi hakaba harimo n'ibiti bigiye bikuze cyane.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku nkengero zawo hari inzu z'ubucuruzi kuri izo nzu z'ubucuruzi hakaba kuri buri inzu hagiyeho hari icyapa kiranga ibyo bakora, imbere yaho hakaba hari n'umuntu wambaye impuzankano ahari.

Icyapa ubona ko kiri kuranga ibintu bijyanye na serivisi z'ubwikorezi. Bikaba bigaragara ko hariho n'ikirango gishinzwe izo serivisi. Icyo kigo kikaba cyitwa RURA.

Aya yari amabwiriza agenga abatanga serivise za mobayiro mani mu rwego rwo kurwanya korona virusi, kugira ngo abantu bakoresha izo serivise bajye birinda kwanduzanya indwara kandi bikaba byarafashaga abantu gukwirakwiza indwara ya korona virusi.

Inzu nini yubatse neza cyane bigaragara ko ari inzu y'ikerekezo. Bikagaragara ko hakorerwamo ibikorwa bitandukanye. Aho hari agace bakwereka ko kariho ibikoresho bigufasha kubona amakuru byihuse kandi bikaba n'icyapa kiranga icyo gikorerwa aho muri izo nzu.

Inzo mberabyombi aho bigaragara ko iyo nzu irimo abantu benshi batandukanye, kandi buri wese bikaba bigaragara ko yicaye afite icyo ari gukora. Aho buri wese mu bicaye ubona ko mbere ye hari mudasobwa, ari gukoresha; kandi mu bahagaze ukaba ubona ko buri wese afite igitabo ari gushaka asoma. Iyo nzu ukabona ko ari inzu ibitse ibitabo, ari yo mu ndimi z'amahanga bita rayiburari.

Inzu nyinshi ubona ko zitandukanye aho izo nzu ubona ko ari ububiko bw'ibikoresho by'amashanyarazi, aho ubona ko harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvana amashanyarazi mu gace kamwe ajya ahandi, aho harimo n'igikoresho kifasha kongera umuriro w'amashanyarazi cyangwa kuwugabanura, hejuru hakaba hari n'insinga bigaragara ko zitwara amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi, kandi hirya hakagaragara n'ibiti binini bikuze.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku mpande zayo hari amazu. Ayo mazu bikaba bigaragara ko ari icyapa kiranga ibintu, aha, ibintu bihakorerwa. Akaba icyo cyapa kerekana ko ari foromasi, hakaba hari n'ibyuma byabugenewe bitwaye umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari n'ibiti birebire cyane.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko hari kugenda ho umuntu uri kuva mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda agenda ku igare. Naho ku mpande zaho hakaba hari ibiti byabugenewe bitwaye insinga z'amashanyarazi, arizo mu ndimi z'amahanga bita amapoto.

Umuhanda nyabagendwa ubona ko ku nkengero zawo hari indabo zakuze cyane, kandi hakaba hari n'icyuma cyabugenewe gitwara umuriro w'amashanyarazi, ukaba ubona ko no ku muhanda hari guturukamo imodoka zitandukanye zitwaye ibicuruzwa.

Ikirere cyane gisa umweru, ndetse igice kimwe ubona ko hivanzemo n'ubururu, kandi ukaba ubona icyuma cyabugenewe gitwara itsinga z'amashanyarazi, ku mpande hakaba hari n'ibiti birebire bikuze, hasi hakaba n'ibindi byatsi byagundutse.

Umuhanda nyabagendwa. aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi. Bikabaka bigaragara ko hejuru y'umuhanda gato hari ahandi hari imbuga, bigaragara ko ikoze neza cyane kandi hakaba hakikijwe n'indabo nziza cyane. Ku mpande z'umuhanda hakaba hari amazu y'icyerekezo atuwemo n'abantu kandi bikagaragara ko hari n'ibyuma byabugenewe bitwara umuriro w'amashanyarazi biwuvana mu gace kamwe biwujyana mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa ubona ko hari nakayira kabugenewe kari ku muhanda waba nyamagare, aho harimo abanyamagare bacunze amagare yabo ,hakaba naba motari bicaye kuri moto ndetse n'inzu z'ubucuruzi ziri ku mpande hariho n' ibyapa biranga icyo izo nzu zikoreramo .Hakaba hari n'ibiti binini hakaba n'ibiti bya bugenewe bitwara umuriro wama shanyarazi .

Inzu ifite irange rijya kuba umutuku, hejuru hakaba hariho akarange k'icyatsi kibisi, hakaba hariho n'itara rimurika ku nzu.

Ahantu ubonako hari inzu zituwemo n'abantu hakaba hari ibyuma byabugenewe bitwara amashanyarazi, ikirere kikaba gisa ubururu buvangiye n'umweru.

Igikoresho cyabugenewe mu gukwirakwiza amashanyarazi ,akaba aricyo bita mu ndimi z'amahanga epironi kikaba gikura umuriro ahantu kikaba cyawugeza ahantu kure wamashanyarazi, Ikirere kikaba gifite ibicu bis'umweru ndetse n'ubururu buvangiye.

Ndabona umugore usa nkaho arikwerekana agatabo ke gasa nkaho ari akubwishingizi bugendeye kubuzima, kandi uwo mugore ari kukereka undi wicaye wambaye akanu ku umutuku.

Ibyuma binini cyane bigaragara ko bitwaye umuriro w'amashanyarazi, bikaba biwuvanye mu gace kamwe biwujyanye mu kandi, bikagaragara ko ikirere gisa ubururu, bikaba bifite n'ibicu bisa umweru.

Iyi shusho iratwereka ahantu hari ibyuma byabugenewe bitwara amashanyarazi. ku mpande zabo bikagaragara ko hasi hateye indabo, no hirya yaho bikagaragara ko hari ibiti binini bikuze.

umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukorerwa mu byerekezo byombi bikaba bigaragara ko harimo imodoka ntoya itwarira abagenzi hamwe kandi hakaba hari n'igiti cyabugenewe gitwara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi hakaba hari n'inzu ku nkengero z'umuhanda zituwemo n'abantu

Umuhanda ny'abagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda udashushanyije nk'uko leta ibitegeka kandi bikaba bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru kari kugendwamo ndetse hakaba hari n'ibiti binini cyane bikikije umuhanda ku rundi ruhande rw'iburyo hakagaragaramo icyuma ndetse gitwara umuriro w'amashanyarazi hakaba hari n'ikindi cyabugenewe cyongera umuriro cyangwa kikawugabanya.

Ibiti bikuze cyane hakagaragaramo n' ibyuma bitwaye umuriro w'amashanyarazi, hakurya ukabona ko hari ibiti byinshi cyane by'ishyamba.

Ahantu ubona ko hari urutoki hakaba hari n'ibiti bikuze hakurya yaho ukabona ko hari n'amazu atuwemo n'abantu bikaba bigaragara ko hari n'ibyuma bitwaye insinga z'amashanyarazi bizivana mu gace kamwe zijya mu kandi.

Iki cyapa kirerekana ko aho hantu ari mu nkengero z'umujyi kandi hatuwe n'abantu benshi, bikagaragaza ko hari ahantu imodoka iparitse mu kibuga kigari kandi hejuru yaho hakaba hari ibiti byabugenewe bitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ubona ko atari iz'icyerekezo kigezweho, aho bigaragara ko ku nkengero z'izo nzu no ku mpande hari indabo zikuze cyane, kandi ukaba ubona ko hagati y'izo nzu harimo n'igiti gikuze cyane, ubona ko icyo giti gishaje kandi kikaba kiriho insinga nyinshi z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwa mu byerekezo byombi. Ku mpande zaho bikagaragara ko hatuye abaturage. Kandi ukaba ubona ko hari n'ibiti byabugenewe bitwara amashanyarazi biyavana mu gace kamwe biyajyana mu kandi.

Icyuma kinini cyabugenewe gitwara insinga z'amashanyarazi, umuriro ukabasha gutambuka ukagera mu bice bitandukanye, akaba aricyo mu rurimi rw'amahanga bita ipironi kandi bigaragara ko hasi hari n'amazu atuwemo n'abantu, ikirere kikaba gifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi. Ku nkengero z'uwo muhanda hakaba hubatse amazu atuwemo n'abaturage, ndetse hakaba n'igiti cyabugenewe gitwara insinga z'amashanyarazi. Izo nsinga z'amashanyarazi zikaba ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Ikirere gifite ishusho isa n'umweru. Aho bigaragara ko hari amazu ari aho ngaho, bikaba bigaragara ko harimo indabo nini zitandukanye, hakagaragaramo n'icyuma cyabugenewe gitwara amashinyarazi kiyakura mu gace kamwe kiyajyana mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hagiye hari amatara amukira umuhanda. Kandi hakaba hari n'ibiti byasakaye byakuze cyane. Hakaba hari n'ibiti byabugenewe n'amapoto y'ibyuma, atwara umuriro w'amashanyarazi. Awukura mu gace kamwe, awujyana mu kandi.

Inzu nyinshi zitandukanye bigaragara ko aho hantu hakorerwa igikorwa cya Leta, kandi ku mpande zaho ukaba ubona ko ku ibaraza hari ahantu hahagaze umukobwa, kandi aho hantu hakaba hari ibyapa bigiye biranga ibikorerwa muri izo nzu, ikirere hejuru kikaba gisa umweru.

Inzu nini nziza cyane aho bigaragara ko ari inzu y'icyerekezo, bikaba bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo serivisi zitandukanye, kandi ukaba ubona ko kuri iyo nzu ku mpande hari n'udutebe abantu bicaraho bategereje serivisi bagiye guhabwa.

Umuhanda mwiza cyane bigaragara ko ku nkengero z'uwo muhanda hubatse inzu nziza z'icyitegererezo, bigaragara ko izo nzu zitangirwamo serivisi zitandukanye, bikaba bigaragara ko hari umudamu uhahagaze, n'imbere hari undi mudamu uri kugenda.

Iyi shusho irerekana abantu bicaye ahantu mu nzu. Biteganya ko bategereje serivise, bategereje ababaha izo serivise.

Inzu nini cyane aho bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo igikorwa cya leta, ukaba wagira ngo ni kwa muganga, aho bigaragara ko hari abaturage benshi baje kwaka serivisi zitangirwa kwa muganga kandi hakaba hari n'indabo zihakikije hakaba hari n'ibiti birebire bikuze.

Inzu nziza ubona ko ari inzu ikorerwamo ibikorwa bya leta, aho bigaragara ko harimo n'ibikoresho twifashisha mu gutanga ingufu dukoresha ducana mu nzu kandi hakaba hari n'icyapa cyerekana ko aho hantu hatemerewe kuhanyuraha.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imodoka nyinshi ntoya zitwarira abantu hamwe, bikagaragara ko harimo n'umuntu uri kugenda n'amaguru w'umudamu kandi bi bikagaragara ko hari n'inzu zikorerwamo serivisi zitandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho y'umweru ivanze n'ubururu.

Iyi ni hoteli urabona ko ikeye iri mu mabara meza cyane, amavaze ubona ko akasa neza, ndetse n'ibiti bihatatse amabara y'umutuku, imiryango myiza cyane ushobora kuza rero ukahagera bafite ibyumba bitandukanye, ushobora kuza ukicaramo.

Umuntu wambaye impuzankano bigaragara ko ari umuganga akaba yegereye umuntu wicaye bigaragaza ko ari umurwayi ari gupima, imbere ye hakaba hari mudasobwa. Umuganga akaba yambaye n'ibikoresho bimufasha gupima uwo murwayi.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko hicayemo abaturage batandukanye, bikaba binagaragara ko hari abantu babiri bicaye, bambaye impuzankano zisa kandi hakaba hahagazemo n'undi muntu wambaye impuzankano, bigaragara ko ari guha abaturage ikiganiro, bikaba bigaragara ko baje kureba serivisi zitandukanye, bikaba bigaragara ko aho hantu ari kwa muganga.

Inzu nziza ubona ko ziri ahanu heza kandi hari n'indabo, ubunako imbere y'inzu hagiye haparitse imodoka hati yaho hakaba hari ibendera ry'Urwanda ikirere cyikaba gisa umweru.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi kandi hakaba harimo imodoka ntoya zitwarira abagenzi hamwe, ku nkengero z'umuhanda hakagaragara amazu meza cyane y'icyitegererezo, aho bigaragara ko ayo mazu akorerwamo serivisi zitandukanye kandi kuri buri nzu hakaba hari icyapa kiranga ikintu gikorerwamo muri iyo nzu kandi hakaba hagaragara n'ibendera ry'igihugu kuri izo nzu. Ikirere kikaba gifite ibara ry'umweru.

Inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucururizi butandukanye aho ubona ko hari n'igice gikoreramo abaganga, ukabona ko hari n'ibikoresho bitandukanye harimo ibikoresho nsakazamashu n'ibikoresho bifata amajwi.

Inzu ubona ko zikorerwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko ku mpande hari ahantu haparitse imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi. Bikaba bigaragara ko aho hantu ari kwa muganga.

Hano turahabona abantu bicaye, bigaragara ko buri wese imbere ye hari mudasobwa kandi bakaba bari gutanga serivisi zitandukanye, imbere yabo hakaba n'abaturage baje gusaba serivise zihatangirwa.

Iyi shusho iratwereka ahanu ubona ko hari umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko hari abantu barikugenda kandi hirya yaho hakaba haparitse n'izindi modoka kandi hakaba hakikijwe na amazu akorerwamo ibinu bitandukanye.

Inzu nziza cyane ubona ko ari inzu z'icyerekezo aho bigaragara ko izo nzu hakorerwamo serivisi za leta, bikaba bigaragara ko izo nzu zigiye zifite ubusitani bwihariye bwiza cyane kandi bikaba bigaragara ko ari inzu zateguwe.

Iyi shusho iratwereka umuntu wicaye kuri mudasobwa aho bigaragara ko hari ibyo ari kwandika akura muri mudasobwa kandi akaba yambaye impuzankano.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko uwo muhanda ushushanyije mu buryo bwose kandi bikaba bigaragara ko uwo muhanda ushamikiweho, ukaba ubona ko ku nkengero zawo hari n'amazu atuwemo n'abantu. Ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu n'ibicu by'umweru.

Umuntu ushinzwe umutekano ariwe mupolisi bigaragara ko hari undi mugabo bari kumwe, bigaragara ko ari kumwambika amapingu kandi hirya ye hakaba hari n'undi mupolisi, hakurya ukabona n'abandi bantu bari kureba.

Hano hakaba hari abantu bambaye impuzankano kandi hakaba harimo na bambaye impuzankano bacunze umutekano bigaragara ko bari kujya aho baba.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu mberabyombi, ukaba ubona ko bambaye impuzankano. Hakaba n'undi muntu imbere yabo uri kubahereza ikiganiro, hejuru yabo hakaba hari amatara y'umweru menshi cyane.

Inzu mberabyombi, bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye, b'inzego z'igihugu z'u Rwanda, bikagaragara ko harimo umugabo ufite igikoresho ndangururamajwi, hakaba iruhande rwe hari umudamu, hakaba no kurundi ruhande hari umugabo, nawe bigaragara ko ateze amatwi, bakaba bari kumva ibyo avuga, bakaba bafite n'abo bari guha ikiganiro.

Abantu bari gusuhuzanya aho bigaragara ko umwe yambaye impuzankano ndetse n'undi akaba yambaye impuzankano aho bigaragara ko umwe yambaye impuzankano isa nk'aho ari umuntu ushinzwe umutekano.

Iyi shusho irerekana abacamanza batatu, babiri bari guhererekanya impapuro, banasuhuzanya. Umwe wewe agaragara ko yicaye, ari kwishimira ibikozwe.

Umugabo wambaye impuzankano kandi yambaye amadarubindi kandi bikaba bigaragara ko nta n'umusatsi afite inyuma ye hakaba hasa umweru wera.

Umugabo munini cyane w'ibigango bigaragara ko atishimye kandi akaba yambaye impuzankano y'akazi akora bikaba bigaragara ko ari umucamanza.

Umukuru w'igihugu bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame ayiha abayobozi imbere ye bikagaragara ko hari igikoresho ndangururamajwi ndetse n'ahande we hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bigaragara ko ari abacamanza, aho bigaragara ko ari umunsi wabo bari baje mu kirori cyabo, hakaba hari n'undi mucamanza wambaye impuzankano isukwe wicaye bigaragara ko ariwe uri kubarahirisha, kandi hakaba abandi bacamanza bicaye bambaye impuzankano y'umukara.

Iyi shusho irerekana aho abantu bari b'abacamanza bari mu mpande zitandukanye, bamwe bari hepfo abandi bari haruguru, hakaba harimo bo umwe utambaye impuzankano abandi bose bambaye impuzankano.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko iyo nzu yicayemo abacamanza kandi bakaba bagiye bambaye ibendera ry'igihugu, bikaba bigaragara ko imbere yaho yabo ku meza hari ibitabo bari gusomamo ndetse hakaba hirya y'aho hari n'abandi bantu benshi batandukanye.

Ikirere ubona ko gifite ishusho y'umweru, ndetse ivangiye n'ubururu, aho bigaragara ko hasi aha ku mbuga nziza cyane hagaragaramo abantu benshi bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bikaba bigaragara ko bamwe ari ingororwa abandi bakaba ari abacungagereza.

Inzu mberabyombi. Bigaragara ko ari kuberamo igikorwa cya leta. Aho bigaragara ko harimo abacamanza, bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu kandi bose bambaye impuzankano zabo zibaranga.

Abantu babiri bambaye impuzankano ndetse n'undi wa gatatu yambaye impuzankano isa ukwe kuko babiri bambaye impuzankano zisa. Bigaragara ko ari abacamanza, undi wambaye iyihariye bikagaragara ko ari ingorororwa. Inyuma ye hakaba hari n'abaje bamuherekeje kandi hakaba hagaragara ko hari n'inzego z'umutekano arizo polisi, hakaba n'umuntu uhagaze uri gufata amashusho ndetse n'amajwi.

Iyi shusho irerekanamo abacamanza hamwe n'ingororwa, harimo n'ushinzwe ingororwa, kandi bikagaragara ko umucamanza ari kuganira n'umugororwa hari ibyo batari kumvikanaho neza.

Iyi shusho iragaragaza ko ari hari ahantu imbere umuyobozi ari imbere y'abantu ari kugira ibyo abagezaho. Akaba ari ijambo nyamukuru ari kubabwira.

Ishusho iratwereka umugabo munini kandi yambaye amadarobindi afite n'umusatsi mwinshi, aho bigaragara ko mu gahanga hari izuba ryamumuritseho kandi yambaye impuzankano kandi bigaragara ko ari ushinzwe inzego z'umutekano.

Umugabo munini bigaragara ko kandi ari uw'ibigango, akaba yambaye umwenda w'impuzankano ukoreshwa mu bucamanza, akaba bigaragara ko nta musatsi afite.

Ikigo kinini cyane ubona ko cyubatswe mu buryo bugezweho aho bigaragara ko hari irembo ry'ictegererezo bikaba bigaragara ko iryo rembo hariho icyapa kiranga ibikorerwa muri icyo kigo, icyo kigo kikaba cyitwa igororo rya muhanda kolegisheni fasiriti, kandi ukaba ubona ko ku irembo ryaho hariho n'abarinzi.

Iyi shusho iratwereka abanyeshuri benshi bari ahantu hamwe mu kibuga aho umwe mugenzi wabo muri bo afite igikoresho cyabugenewe, cyo kuzimya umuriro, imbere yaha hakaba hari gaze iteretseho isafuriya bari kwerekana uburyo iyo gaze iramutse ifashe umuriro mwinshi uburyo babizimyamo, hakaba hari bigaragara ko hari n'abayobozi babo.

Abapolisi bari mu mpuzankano zabo, aho bigaragara ko buri wese afashe ku gikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Bikaba bigaragara ko bari kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Hano haragaragara igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iyo ari ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro twifashisha igikoresho kugira ngo tuzimye iyo nkongi y'umuriro.

Umuhanda nyabagendwa. Aho bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari kugendamo umunyamaguru agenda mu kayira ke kamugenewe ku muhanda. Kandi ku nkengero ahahera hepfo y'umuhanda hakaba hari umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda. Akaba yambaye impuzankano. Hakaba hari n'igiti kinini imbere y'urugo gikuze. Kandi bikaba bigaragara ko umuhanda ufite amatara awumurikira.

Iyi shusho iragaragazaho imodoka y'abapolisi iri kugenda mu muhanda, n'ahantu hari abanyamaguru bari kugenda, harimo umugore n'umugabo.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko hari imodoka zituruka mu byerekezo bitandukanye. Ku mpande y'umuhanda hakaba hari amazu yubatse y'ubucuruzi. Kandi hakaba hagaragara n'ibiti bikuze.

Ibyatsi n'ibiti, biri ahantu hakurya, ahantu ubona ko hafashwa n'inkongi y'umuriro. Ukaba ubona ko bari kuyikoresha ibikoresho byagunewe, bazimya uwo muriro. Hakaba hari abantu bafite impuzankano, ari bo bafite ibyo bikoresho, bari kubikoresha.

Abapolisi bigaragara ko bambaye impuzankano zibaranga, aho bigaragara ko bafite igikoresho cyabugenewe bakaba bari kwereka abantu uko bagikoresha bazimya inkongi y'umuriro, hakurya hakaba hari imodoka isa n'ibara ry'umuhondo kandi ku nkegero z'umuhanda hakaba ari ibiti bikuze cyane.

Abantu bambaye impuzankano y'abo bakoresha ako kazi bikaba bigaragara ko bari kumwe n'abarezi ndetse n'abana batoya bigisha, bikaba bigaragaza ko abo bantu bambaye impuzankano bari kwigisha abana uko bakoresha igikoresho cyabugenewe kizimya inkongi y'umuriro iyo ifasha ahantu.

Umukozi ushinzwe umutekano yambaye impuzankano bigaragara ko ari kwereka abantu icyerekezo, kandi impande ye hari abandi bagenzi batandukanye, hakurya bigaragara ko hari inzu z'ubucuruzi n'ibyapa biri kuri izo nzu biranga ibyo bakora.

Inzu mberabyombi, iteraniyemo abayobozi b'igihugu cyacu, imbere yabo bakaba bafashe amakaramu ndetse n'amakaye basa naho bari kwandika ibyo bari kubwirwa. Kumeza hakaba harambitse amacupa y'imitobe ndetse n'amazi, buri muyobozi wese imbere ye hakaba hari mikoro fone, ndetse hakaba hari n'igikoresho nsakazamashusho.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amamoto. Hakaba harimo n'umuntu ushinzwe umutekano ari we polisi. Hakaba hari n'inzu ku mpande z'ubucuruzi, hariho n'ibyapa biranga icyo izo nzu zikorerwamo.

Iyi shusho irerekana amamodoka atandukanye aparitse ahantu ku ibaraza ry'amazu bigaragara ko ari imodoka z'abayobozi ziparitse ku mazu yabugenewe bakoreramo akazi.

Abantu benshi cyane bigaragara ko harimo n'abana hakaba harimo n'abantu bakuze ari abagabo ndetse n'abagore bikaba bigaragara ko hari umuntu ufashe ifoto ari kwereka abandi.

Iyi shusho iratwereka imbaga y'abantu aho bigaragara ko bari bambaye impuzankano bamamaza ishyaka rya efuperi, akaba iryo shyaka ariryo ubutegetsi buyoboye igihugu rifite.

Imodoka igaragara ko irimo umukandida, bikaba bigaragara ko ku modoka hari n'abantu benshi bamushyigikiye bazamuye ibiganza, ndetse n'abazamuye ifoto ye. Ikaba bari barimo kwamamaza uwo mukandida.

Iyi shusho iratwereka ikirango cyerekana umukandida bita Mpayimana Philippo ni icyo yakoreshaga mu kwiyamamaza kwe, hakurya yaho hakagaragaramo ibiti bikuze ukabonamo ko harimo n'amazu atuwemo n'abantu.

Abagabo babiri, aho bigaragara ko umugabo umwe yambaye impuzankano, akaba ari imbere y'indangururamajwi, hakaba inyuma ye hari abandi badamu babiri bicaye ndetse n'umusore uhagaze wambaye amadarubindi. Inyuma yabo bikaba bigaragara ko bafite icyapa kiriho ishusho y'umuntu. Ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse n'ibicu bisa umweru.

Inzu mberabyombi bigaragara ko hicayemo abayobozi benshi batandukanye mu nzego z'igihugu hakaba n'umuyobozi uri imbere uri kubaha ikiganiro kandi buri wese imbere ye akaba ari icupa ry'amazi hakaba hari n'igikoresho ndangururamajwi.

Abantu babiri bahagararanye, bigaragara ko umwe ari umuyobozi, n'undi akaba ari umuyobozi ushinzwe umutekano. Kandi bikagaragara ko bari kuganira bishimye cyane bahuje urugwiro.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bakuru b'igihugu ukabona ko bamwe bose buri wese yicaye ari gutekereza hakaba hari n'abafite ibitabo bari kwandika.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye bakora mu nzego z'igihugu z'u Rwanda, aho bigaragara ko ari abayobozi bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu, bakaba bari kwiyemeza inshingano zabo bazihamiriza imbere y'abayobozi.

Abantu beshi cyane bicaye m'inzu mbera byombi hejuru yabo bigaragara ko hari amatara yaka umweru hakaba hari n'ibikoresho nsakaza mashushu ndetse hari n'umuntu imbere urigufata amashusho abantu bose bakaba bakurikiye umuntu urikubaha ikiganiro uri imbere yabo.

Iyi shusho iratwereka abantu benshi bahuriye hamwe ari bo bita imbaga, aho imbere yabo ubona ko hari abayobozi batatu bahagaze bari kubwira abo baturage,h akaba hari n'abandi bicaye ubona ko ari ibiganiro bari kubabwira.

Inzu mberabyombi bigaragara ko ari abantu bari mu nama, aho hari abayobozi babiri bicaye imbere; bigaragara ko bari kwandika ibibazo biri kuva mu bo bahaye ikiganiro, kandi buri wese ukaba ubona ko ari kwandika mu gitabo cye n'iruhande rwe hakaba hari agacupa kagiye karimo amazi.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bari mu kibuga aho bambaye impuzankano bikagaragara ko bari baje bagiye kwamamaza ishyaka rya efuperi bose bambaye impuzankano isa kandi imbere yabo hakagaragara umukuru w'igihugu ndetse n'umutwe ushinzwe kumurinda ari wo witwa sitiyu.

Abantu benshi bari ku murongo. Imbere yabo hakaba hari umuntu wambaye impuzankano n'ingofero yayo. Bakaba bigaragara ko bari kwinjira ahantu mu kidare.

Umudamu munini cyane, bigaragara ko uwo mudamu yambaye amadarubindi ndetse n'umusatsi mwinshi, iruhande rwe hakaba hari amabendera atandukanye, ibumoso hakaba hari ibendera ry'u Rwanda, ku rwo hakaba hari n'irindi bendera.

Iyi shusho iratwereka abadamu babiri bari imbere bakenyeye, hirya ukabona ko hari n'undi mudamu bikaba bigaragara ko bari bicaye ahantu ku kivero, bikagaragara ko hirya hari n'abandi, bikagaragara ko hari n'ibyapa byamamaza ishyaka runaka.

Abagabo babiri bambaye impuzankano aho bigaragara ko bari guhererekanya ibitabo kandi hirya yaho ukaba ubona ko hari n'umudamu wicaye uri kubareba hakaba hari n'intebe bari bicayeho ku meza yabo hakaba hari hariho amakaye yo kwandikamo ndetse n'ibipipiri birimo amazi.

Umudamu wicaye mu ntebe kandi akaba yambaye impuzankano, akaba imbere ye hari mudasobwa kandi hakaba n'igikoresho ndangururamajwi.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abayobozi bateranye, kandi ukaba ubona ko buri wese ateze amatwi uri imbere, uri kubaha ikiganiro. Ukaba buri wese ubona ko atumbiriye umuntu uri imbere.

... mberabyombi; bigaragara ko iyo nzu irimo abayobozi batandukanye, aho bigaragara ko buri muyobozi wese ajyiye afite mudasobwa imbere ye, ndetse n'icupa ririmo amazi. Kandi imbere ye, ya buri wese hakaba hari n'igikoresho ndangururamajwi, bikagaragara ko harimo n'amatara yaka umweru.

Abantu babiri bicaye ahantu hamwe, ubona ko bari mu ruganiriro, bikaba bigaragara umwe ko ari umuyobozi mukuru mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, undi bikagaragara ko ari umunyamahanga. Bikaba bigaragara ko buri wese imbere hagiye hari ibendera ry'igihugu ahagarariye.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu mberabyombi, bigarabgara ko hari umuntu uri kubahereza ikiganiro, bose bamuteze amtwi. Buri wese akaba afite ikintu ari kwandikamo icyo yumva.

Iratwereka abantu benshi kandi batandukanye, aho bigaragara ko hari abantu bane bari ukwabo, n'abandi bagera muri batandatu bari ukwabo, bigaragara ko hari ibintu bari kureba.

Hano hari umuntu wambaye impuzankano akaba afashe ku kintu gihari, hakaba hari n'undi witaruye hirya wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umukara hegereye n'ibendera ry'u Rwanda hino ye hakaba hari n'undi mugabo ufite ikayi mu ntoki.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bicaye mu nzu mberabyombi aho bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubaha ikiganiro, imbere akaba ari umudamu ufite indangururamajwi bigaragara ko wagira ngo ari kubaza ikibazo naho abandi bicaye bose bakurikiye kandi bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo kuma meza ndetse n'icupa ririmomo amazi yo kunywa bakaba bafite n'udukayi igendanwa bandikamo ibyavugiwe mu nama.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ku mpande yaho hakaba hanicaye umubyeyi wicaye, imbere hakaba n'abandi bantu bahagaze no hirya ye hakaba n'abandi bahagaze.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda, hari imodoka zihaparitse eshatu kandi hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi, ubona ko kuri buri nzu hagiye hariho icyapa kiranga ibikorerwamo muri iyo nzu.

Imodoka nini iri mu muhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko uwo muhanda uri kugendwa mu byerekezo byombi, inyuma yaho hakaba hari abamotari batwaye abagenzi kandi inyuma ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikikije umuhanda binini.

Umumama bigaragara ko ashinzwe gutanga ibyo kurya cyangwa kunywa ahantu, ndetse hakaba hateguye neza intebe zikozwe mu mbaho ziteye neza, ubusitani bw'indabyo, ndetse n'ibiti hakurya, bigaragara ko hari ahantu abantu biyakirira, ndetse hateye neza rwose.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa. Bigaragara ko umuhanda uri kuvamo ibinyabiziga biturutse mu byerekezo byombi. Hakaba hari imodoka nini itwarira abagenzi hamwe. Hakurya yaho mu kayira k'abanyamaguru hakaba hari n'umuntu uri kugenda ukoresheje amaguru. Hakaba ku nkengero z'umuhanda hari ibiti bikuze cyane. Ku mpande z'umuhanda ku buryo bugaruka, ibumoso hakaba hari n'umuyira unyuramo amazi.

Umuhanda munini cyane bigaragara ko ari nyabagendwa ariko ukaba udashushanyije nkuko leta ibitegeka, hakaba harimo imodoka nini itwara imizigo ndetse no ku nkengero z'umuhanda hakaba hari amazu atuwemo n'abantu ndetse n'ay'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa harimo imodoka ipakiye ibintu byinshi bitandukanye, ukaba ubona ko kandi hirya y'umuhanda hari ibiti byakuze cyane kandi ukabona ko ikirere hejuru gisa umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo umumotari utwaye moto ye hirya ye kandi hakagaragaramo n'amazu y'ubucuruzi kandi hakaba hari n'ibiti by'indabo biteye ku muhanda.

Umuhanda nyabagendwa aho umuhanda bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko uwo muhanda usa n'u ukuze kandi hakaba hari ikimoto cyabugenewe gitwara imizigo ndetse n'indi modoka iyiri inyuma nayo itwara imizigo kandi ku nkengero z'umuhanda bikaba bigaragara ko ari inzu z'ubucuruzi, izo nzu zikaba zigiye zifite ibyapa biranga ibikorerwamo imbere ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa. Aho bigaragara ko ku nkengero zayo harimo n'abanyamaguru bari kugenda, hakaba harimo n'imodoka ziri kugenda. Kandi ku mpande hakaba n'ahantu haparitse amamoto menshi.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko uwo muhanda udakoze neza cyane, ariko bikagaragara ko hari imodoka nini yabugenewe itwarira abantu hamwe, hakurya hagaragara umusozi uriho amashyamba, hakagaragara ko hari n'ibikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi, aribyo mu ndimi z'amahanga bita ama pironi, biwuvana mu gace kamwe, biwujyana mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwa mu byerekezo byombi. Aho bigaragaramo ko harimo umumotari utwaye umugenzi, kandi hirya ye hakaba hari imodoka nini itwaye ibicuruzwa. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti binini bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda uri gukoreshwa mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda haparitse abamotari ndetse n'ibyapa bigiye bihari biranga serivisi zikorerwa n'aho hantu, hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi zihari.

Umuhanda nyabagendwa ubona ko harimo imodoka ziri guturuka mu byerekezo bitandukanye, akaba harimo ikimodoka gitwaye imizigo, imbere yacyo hakaba harimo n'igare ripakiye imizigo. Hakurya hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi, hakaba hari nahagaze imodoka zitwarira abantu hamwe, hakurya hagaragaramo n'ibiti bikuze. Inzu mbera.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko harimo imoto yabugenewe itwara imizigo ndetse no ku nkengero z'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru haka barimo umunyamaguru no kugenda, hakurya yaho hakagaragaramo n'ibiti bikuze biri ku muhanda ndetse ukabonamo ko harindi modoka iri gupakurwamo imizigo itandukanye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uri kugendwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko hari imodoka itwaye imizigo iri kuva mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda, ndetse n'imoto zitwaye abagenzi, ku mpande z'umuhanda hakaba hari ibiti binini cyane bikuze, hirya yaho bikagaragara ko hari amazu atuwemo n'abantu kandi ku nkengero z'umuhanda ahagaruka ibumoso hakaba hari umuhora bigaragara ko utwara amazi, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu binjyeri zitandukanye, murabo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo n'undi uhagaze imbere yabo atanga ikiganiro mu bwirwaruhame. Inyuma ye hakaba hari ibikoresho by'isakaza mashusho ndetse n'ibindi by'amamaza icyo bari kuvuga.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa aho harimo imodoka iri guturuka mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda imbere yaho hakaba hari n'umukinyi uri kugenda afite igikapu hakurya yaho bikagaragara ko hari n'ikibuga cy'umupira kandi ku mpande zaho hakaba ari n'ibiti birebire bikikije icyo kibuga .

Umuhanda nyabagendwa uri kugendwamo n'ibinyabiziga, hakaba harimo umumotari utware moto, n'imodoka iri kugenda idapakiye. Imbere yayo hakaba hari moto itwaye ibintu inyuma. Hakaba hari n'undi mugabo uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru yikoreye imizigo.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko uri kugendwa mu byerekezo byombi. Bikagaragara ku nkengero z'abanyamaguru, bari kugendamo abanyamaguru aho harimo umugabo ndetse n'umudamu. Naho mu muhanda hakaba harimo ikimodoka kinini gitwara imizigo. Kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba ari ibiti binini bikuze cyane ikirere cyo kigaba gisamweruru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi by'umuhanda, hakaba harimo imodoka nini ipakiye imizigo, ndetse hakurya kunkengero z'umuhanda hakaba hari indabo zakuze cyane, kandi hakurya yaho ukaba ubona ko hari n'inzu zituwemo n'abantu.

Iyi shusho iratwereka imodoka iri kuva mu cyerekezo kimwe ipakiye kandi impande zaho ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze no ku rundi ruhande hakaba hari i kanevu .

Umuhanda nyabagendwa. Bigaragara ko imodoka ziri guturuka mu byerekezo byombi bitandukanye, hakaba harimo n'abagenzi bari gutega imodoka. Ndetse n'imodoka zinini zitwarira abagenzi hamwe, hirya yaho hakaba hari n'amazu yabugenewe, akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa uri kugengamo ibinyabiziga bigaragara ko hari ikinyabiziga aricyo moto gitwaye umugenzi, hakurya yaho hakaba hari inzu bigaragara ko ari iy'ubucuruzi hakaba hari n'ibiti by'ibyatsi, n'ibiti n'ibyatsi bikuze.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku mpande zayo hari inzu z'ubucuruzi. Hakaba bigaragara ko hari n'idepo icururizwamo inzoga. Kandi hakaba hari n'imodoka ihagaze ku ruhande rwayo.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko harimo umumotari utwaye moto, ndetse n'undi muntu usunitse akanyamizigo katariho imizigo, kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba ari amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragra ko harimo imodoka itwaye ibyuma kandi hahagaze n'umuntu, ku mpande zayo hakaba hari umuntu uri gutambuka ufite igikapu mu ntoki, hejuru yaho hakaba hari inzu ubona ko zimurikiwe n'amatara.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko harimo imodoka nini itwara imizigo ndetse no ku nkengero z'umuhanda bikaba bigaragara ko hari inzu nini cyane zituwemo n'abantu ndetse hakaba n'ibiti binini bikikije umuhanda. Bikaba bigaragara ko uwo muhanda, mu kayira k'abanyamaguru hari no kugendamo umuntu ufite ikidomoro cy'amazi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ugendwamo mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari ibiti binini bikuze kandi hakaba harimo ikinyabiziga cyihekoreye imizigo ndetse n'imoto inyuma zitwaye abagenzi, ku mpande hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi kandi kuri izo nzu hakaba hari n'icyapa kigiye kiranga ibicururizwa muri izo nzu.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko uwo muhanda uri kugendwamo mu byerekezo byombi. Hakaba hagaragaramo ikimodoka kinini gitwaye imizigo kandi imbere yacyo hakaba harimo n'umumotari utwaye moto ndetse hakaba hari n'indi modoka iturutse mu kindi cyerekezo ntoya, itwara abagenzi hamwe bikaba bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda, hari ibiti binini bikuze cyane kandi hakaba n'ikirango cy'inzoga cya mitsingi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uri kugendwamo mu byerekezo byombi, hakaba hari imodoka ebyiri ziyikurikiranye ziri guturuka mu kerekezo kimwe, kandi hejuru yaho hakaba n'insinga z'amashanyazi ku mpande z'umuhanda hakaba hari n'indabo zihateye.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda udashushanyije nk'uko amategeko abitegeka, bika bigaragara ko harimo imoto yabugenewe itwara umuzigo, ndetse n'i moto itwara abagenzi kandi ukaba ubona ko hari inzu z'ubucuruzi ku nkengero z'umuhanda, bikaba bigaragara ko hari n'ibiti binini bikuze kandi hagaragaramo n'indi modoka nini itwara imizigo.

Umuhanda nyabagendwa. Aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi. Bikagaragara ko harimo cya kimodoka kinini cyikorera imizigo ndetse no ku nkengero z'umuhanda hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi. Aho kuri buri nzu, hagiye hari icyapa kiranga igikorerwamo muri iyo nzu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo abagenzi bari kugenda n'amaguru ndetse n'imodoka imwe nini itwarira abantu hamwe, bikaba bigaragara ko hari n'inzu z'ubucuruzi ku nkengero z'umuhanda zikorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi kuri buri nzukaba ari icyapa cyerekana igikorerwamo kuri iyo nzu.

Umuhanda nyabagendwa bigaragarako harimo ibinyabiziga biri guturuka mu byerekezo by'umuhanda bitandukanye, aho bigaragarako hariho ikimodoka kinini cy'umweru gitwaye imizigo, impande zacyo hakaba hari umunyonzi utwaye umugenzi n'aho hirya hakaba hari akamodoka gato gatwarira abantu hamwe k'ibara ritukura. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa, ubona ko, ku mpande zaho hari inzu zabugenewe z'ubucuruzi, aho kuri buri inzu hagiye hariho ibyapa byamamaza ibikorerwa muri izo nzu, kandi ku mpande zaho bikaba bigaragara ko hari abantu bamwe bicaye bari kuganira, hakaba hari n'abandi bari kugenda banyuranamo, kandi hakaba n'ibiti by'indabo byakuze.

Umuhanda nyabagendwa, ku nkengero zawo hakaba harimo utuyira twabugenewe tw'abanyamaguru, hakaba harimo abanyamaguru bagenda, ku mpande zawo hakaba hari inzu yabugenewe nini y'ubucuruzi, kandi hakaba hari n'ibyapa biranga kuri iyo nzu, biranga ibikorerwamo, ku mpande zayo hino hakaba hari abantu benshi bicaye ubona ko bari kuganira, abenshi ubona ko ari urubyiruko ndetse n'abantu bakuze.

Abantu benshi ubona ko bari ahantu munsi y'ibiti biyicariye, hakaba hari no ku mpande hari n'amazu. Ukaba ubona ko hari n'indabo ziteye aho hantu abo bantu bari, hirya yaho ukaba ubona ko hakorerwa n'ubucuruzi.

Igikorwa rusange aho bigaragara ko icyo ari ikibuga gikinirwamo basiketi, bikaba bigaragara ko ari ikibuga cy'icyerekezo kandi ku mpande zacyo ukabona ko hari n'ahantu hasakaye abafana bicara, bikaba bigaragara ko hirya hari n'ikibuga cy'umupira kigiye kizengurutswe n'ibiti bikuze cyane.

iyi shusho irerekana ahantu hari amazu abiri mashyashya amaze kuzura kandi bikerekana ko hari n'umuriro w'amashanyarazi uca hejuru ahongaho ku mapoto.

Abakinnyi bari mu kibuga bigaragara ko harimo n'umutoza wabo kandi hakurya ukahabona ibiti bikikije ikibuga kandi bikuze, ku mpande z'ikibuga hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru.

Iyi shusho irerekana umuhanda urimo icyapa kerekana ko ugiye kugera mu karere ka Rusizi, ikaba kandi hejuru yaho hagaragara ko hari n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, hakaba ku mpande zaho hari icyapa cyerekana ko ibinyabiziga bigomba guhagararaho, ku mpande zaho hakaba hari indabo nziza cyane, ubona ko zikuze, kandi hakaba ku zindi mpande hari n'inzu zituwemo n'abantu. Hakaba hari n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi iyakuye mu gace kamwe iyajyana mu kandi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko harimo imodoka nini itwara abagenzi ndetse n'amamoto atwara abagenzi. Hakaba ku nkengero zayo hari icyapa cyerekana ko imodoka itagomba kurenza ibyo biro ipakiye. Ikirango ni umukara, ubuso ni umweru, ishusho ikaba ari urukiramende.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda bigaragara ko iki cyapa cyerekana ko imodoka cyangwa ibindi binyabiziga ko umuhanda udakomeza, kandi ishusho yacyo ikaba ari mpande eshatu zingana, ubuso bukaba ari umweru, ikirango kikaba ari umukara, umuzunguruko ukaba mu mutuku.

Ikirere kirasa ubururu kandi bigaragara ko ahari ku muhanda kandi ku nkengero zaho hakaba hari inzu zituwemo n'abantu bikagaragara ko ku muhanda hari n'ibyuma byabugenewe bitwara insinga z'amashanyarazi izo nsinga zikaba ziva mu gace kamwe zijya mu kandi kandi hakaba hari n'icyapa gikoreshwa ku muhanda cyerekana ko uwo muhanda ushamikiyeho indi mihanda.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda aho bigaragara ko icyo cyapa cyerekana akamanuko gakabije, haka n'icyapa cyerekana aho indege ziparika. Hirya yaho hakaba hari n'ibiti bikuze cyane by' indabo.

Ibiti binini cyane bigaragara ko biri ku nkengero z'umuhanda, ikirere gisa ubururu buvangiye n'umweru, hakaba hari n'icyapa gikoreshwa ku muhanda cyerekana ko, ibinyabiziga bigomba kunyuranwaho, hakaba n'ikindi cyapa cyerekana ko abanyamaguru akayira bagomba gutambukamo.

Umuhanda nyabagendwa; aho bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari inzu zigiye zituwemo n'abantu ndetse n'ibiti bikuze; kandi ku muhanda hakaba hari n'icyapa cyerekana ko hirya aho cyangwa hafi aho hari ikigo cy'ubutabazi.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko iki cyapa bagishyira ku muhanda bashatse gusobanura ko imodoka zitemewe kuhahagarara cyangwa kuhanyura, ikirango n'umukara, ubuso n'umweru, umuzenguruko n'umutuku, ishusho n'uruziga.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda kigamije kwerekana ko nta modoka ntoya zitwararira abantu hamwe zigomba kuhanyura, ikirango ni umukara ubuso ni umuhondo umuzenguruko ni umutuku ishusho n'impande enye zingana.

Icyapa, icyapa kiranga aho abanyamaguru banyura kikaba kiri mu ishusho ya tiriyango kandi ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, umuzenguruko w'umutuku.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko harimo amamoto ari guturuka mu byerekezo bitandukanye kandi atwaye abagenzi, bikaba bigaragara ko ku muhanda hari icyapa cyabugenewe, cyerekana ko abanyamaguru bemerewe gutambuka. Ikirango kikaba ari umukara, ubuso ari umweru, umuzenguruko ni umutuku, ishusho ni mpande eshatu zingana.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda bigaragara ko icyo cyapa kiba kiranga aho ugiye, hariho icyo cyapa kiranga Akanyaru, Huye Muhanga, Ruhango Kinazi bigaragara ko hari aho umuhanda ushobora kuba ugera, hirya yaho hakaba hari amazu ugaragara ko atuwemo n'abantu kandi hakaba hari n'ibiti birebire.

Ishusho irerekana icyapa gikoreshwa mu muhanda, gisobanura giti "Birabujijwe kunyura hano muri iki cyerekezo". Iki cyapa kikaba ari cyo gisobanura ku muhanda iyo bagishyizemo.

Umuntu ahagaze ku muhanda mu kayira k'abanyamaguru, bigaragara mo hari icyapa kiranga ako karere, hirya ye ukaba ubona ko hari undi muntu uhagaze, kumpande z'umuhanda hakaba hari indabo cyane.

Icyapa kiri k'umuhanda cyemerera abanyamaguru gutambuka hakurya hakaba hari inzu z'ubucuruzi, hirya yaho hakaba hari icyuma cyabugenewe gitwara umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kigamije kwerekana ko umuhanda ushamikiyeho utundi tuyira, ikirango ni umukara ubuso ni umweru, umuzenguko ni umutuku, ishusho ni mpande eshatu zingana.

Iyi shusho irerekana icyapa cyerekana kirogarama ijana na mirongo inani nikenda z'ubwikorezi umuhanda ugomba kuba ukoresha.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda nyabagendwa, aho iki cyapa kiba cyerekana aho abanyamaguru bagomba kunyura, Ikirango cyayo kikaba ari umukara, kikaba kiri mu buso bw'umweru umuzenguruko bikaba ari umuhondo kandi hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti bikuze cyane.

Icyapa gikoreshwa ku muhanda nyabagendwa, aho iki cyapa kiba cyerekana ko nta binyabiziga by'imitende bibiri byemewe kuhanyura, ikirango, umukara, ubuso, umweru, umuzenguruko, umutuku, ishusho ni uruziga.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga bituruka mu mpande zose z'umuhanda, cyangwa mu byerekezo byose by'umuhanda, aho hagaragaraho n'icyapa cyerekana ko aho ngaho hari inzu zihegereye, ukabona mo hakurya amazu atuwemo n'abantu kandi hari n'ibiti bihakikije.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda nyabagendwa, aho iki cyapa kiba kiri kwerekana ko izi modoka zitemewe kuhanyura ziri kuri icyo cyapa, aho ikirango ari umukara ubuso n'umuhondo ishusho n'impande enye zingana.

Inzu nziza cyane ubona ko zifite n'urugo rwubatse n'amatafari, hejuru yaho hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi kandi hirya ukaba ubona n'ibiti bikuze cyane.

Amazu menshi cyane bigaragara ko aho hantu ari mu mujyi, bikaba bigaragara ko hagati y'ayo mazu hagiye harimo ibiti bitandukanye, ndetse hakaba hari n'ibiti byabugenewe bitwaye insinga z'amashanyarazi biva mu gace kamwe bijya mu kandi, hagaragamo n'ikigega cy'amazi.

Indabo nziza cyane n'ibyatsi bitandukanye biri hasi ukaba ubona ko, ari indabo zakuze zigasumba izindi zikababa ndende cyane rwose ubona ko zagundutse.

Inzzu nini ubona ko ari iy'ubucuruzi bikaba bigaragara ko igiye ifite imitako ku mpande kandi hakaba hari n'icyapa kiranga iyo nzu.

Ahantu ubona ko hatuwe n'abantu benshi cyane, ukaba ubona ko ari mu mugi, kandi ukaba ubona ko hagiyemo harimo ibiti biri hagati y'amazu kandi ukaba ubona ko ari ibintu byiza cyane. Hakaba harimo n'ibikoresho nsakazamajwi.

Inzu nziza ubona ko ari iy'ubucuruzi hakaba hakorerwamo mu bindi bice ibintu bitandukanye impande zayo hakaba haparitse imodoka kandi ukaba ubona ko iyo nzu ku mpande zayo igiye ifite indabo nziza.

Inzu nziza cyane ubona ko ari icyitegererezo kandi ubona ko igezweho, ikaba ifitemo mu mpande zayo hagiye harimo indabo ubona ko ari nziza cyane kandi hasi yazo, aho inzu iherereye itangirira, hakaba haparitsemo imodoka nziza cyane zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa, ubona ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko uwo muhanda mo hagati wangiritse, bikaba bigaragara ko ku nkengero zawo hari n'inzu z'ubucuruzi kandi izo nzu zikaba ziriho n'ibyapa biranga ibikorerwa muri izo nzu, kandi hakaba hanaparitse imodoka ku mpande y'izo nzu.

Iyi shusho irerekana icyapa kiri ku muhanda hakaba ari n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, ikaba yerekana icyo cyapa cyerekana ibiro uwo muhanda utagomba kurenza.

Inzu nini ubona ko ari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hejuru yaho hakaba hari insinga zitwara amashanyarazi kandi ikirere cyaho kikaba gisa umweru.

Agatebe ko kwicarwaho n'abagenzi kari ku mpande z'umuhanda, hakaba hari n'inzu y'ubucuruzi iri aho hantu kandi uka ubona ko ku mpande z'inzu hagiye hari udutebo tw'uruganiriro, ku mpande zayo hakaba hari n'indabo nziza cyane zagundutse.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Amazu menshi cyane kandi ateye amabengeza, bigaragara ko ayo mazu agiye atuwemo abantu batandukanye kandi bikaba bigaragara ko aho hantu ari mu mujyi. Bikaba bigaragara ko hagati y'ayo mazu hagiye harimo ibiti byiza cyane, bifasha abantu mu guhumeka umwuka mwiza ari wo twita ogisijeni mu ndimi z'amahanga.

Umuhanda nyabagendwa bikaba bigaragra ko hari imodoka iri guturuka mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda. Ku nkengero z'uwo muhanda haka hari n' amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi. Aho ku nkengero z'umuhanda hari inzu nini nziza cyane y'icyitegererezo, bigaragara ko iyo nzu itangirwamo serivisi zitandukanye. Ikirere hejuru kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Mu muhanda wa nyabagendwa aho bigaragara ko ku muhanda hari amazu meshyi y'ubucuruzi, bikaba bigaragara ko hari n'ahantu haparitse ama motomeshyi ndetse n'amagare ategereza abagenzi naho mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo abanyamaguru benshi bari kugenda ndetse harimo n'umuntu ufite inkweto mu ntoki, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Iyi nzu irerekana ahantu hari inzu yabugenewemo y'ubucuruzi, ikaba irimo ahantu aho bacururiza, kandi ikaba iri ku nkengero z'umuhanda.

Inyubako nziza cyane ndende, bigaragara ko ku mpande hari n'umuhanda nyabagendwa aho hari guturukamo abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, hino, hakurya y'umuhanda hakaba harimo ibiti birebire byakuze.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ikorerwamo serivisi zitandukanye, ariko icyapa cyayo kikerekana ko ari kureho parike y'inyoni, kandi hakaba n'indabo nziza cyane zikuze zigiye hejuru.

Inzu nyinshi cyane ziri ahantu hamwe ubona ko ari inzu z'icyerekezo, arizo bita umudugudu kandi ukabona ko ku mpande yaho hari ibiti bikuze, no hakurya yaho ukabona ko hari imisozi. Ikirere kikaba gisa umweru.

Inzu nziza cyane y'icyerekezo, bigaragara ko iyo nzu ifite n'urwakiriro ahantu ku mbuga abantu batangirira bicara, aho hari intebe zitandukanye ubona ko abantu bicaramo kandi ikaba ikikijwe n'indabo zigezweho, izo ndabo ukabona ko ari indabo zakuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa ubona ko ku nkengereo z'uwo muhanda hari inzu z'ubucuruzi zabugenewe, hasi y'izo nzu ukaba ubona ko haparitse imodoka nziza kandi ubona ko zitwara abantu bakorera muri izo nzu.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko mu muhanda harimo imodoka ntoya zitwara abantu hamwe ndetse n'umumotari utwaye umugenzi. Ku nkengero z'umuhanda hakaba hari inzu nini z'ubucuruzi kandi kuri buri nzu hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwa muri iyo nzu.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko imodoka ebyiri ziri guturuka mu cyerekezo kimwe kandi hagati yazo hakaba hari n'umukobwa ushaka kwambukiranya umuhanda hakurya yawo hagaragaramo inzu nini ubona ko ari ubucuruzi ikaba ku mpande zayo hahagaze n'izindi modoka.

Amazu menshi bigaragara ko atuwemo kandi akaba ari no mumujyi. Hakaba hari n'ibiti birimo bikuze. Akabamo n'ibikoresho mfasha majwi kugenda.

Inzu nyinshi cyane ziteye amabengeza, aho ubona ko harimo inzu z'ubwoko zinyuranye kandi z'icyerekezo. Bikaba bigaragara ko hagati y'izo nzu hari ibiti byinshi cyane bigiye biteyemo kandi bikuze kandi ukaba ubona ko hari n'insinga zinyuranwamo hejuru y'izo nzu zitwara umuriro w'amashanyarazi, ziwuvana mu gace kamwe ziwujyana mu kandi.

Iyi shusho irerekana abantu bari mu isoko aho ubona ari uruvunge rw'abantu batandukanye bamwe bari gushaka ibintu bitandukanye kandi hari n'imitaka y'abajenti ba tigo n'imitaka y'abajenti be emutiyeni.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku mpande hari inzu z'ubucuruzi kandi hakaba haparitse imodoka munsi kandi hakaba hari n'ibyapa biri ku nzu biranga ibikorerwa muri izo nzu.

Inzu nziza cyane, bigaragara ko ari inzu y'icyerekezo, ikaba yubatse ku nkengero z'umuhanda, aho hasi ku ntangiriro y'inzu haparitse imodoka z'amabara atandukanye, aho harimo iy'ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'iy'umukara, hakaba hari indi modoka, hakaba n'abamotari baparitse bategereje abagenzi, hakaba hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hejuru.

Iyi shusho iratwereka ibisate by'umuhanda bibiri bitandukanye. Aho hari umunyonzi uri kunyura mu kayira k'abanyamaguru kabugenewe acunze igare, imbere ye hakaba n'undi munyamaguru uri kwambukiranya umuhanda. Hakurya yaho hakaba hari n'amazu, kandi ubona ko hari n'abantu bahari.

Ishusho bigaragara ko ifashwe icuritse, aho bigaragara ko aho hantu hatuye abantu benshi ndetse hakaba ari n'umuhanda nyabagendwa, uwo muhanda ukaba ushushanyije nkuko leta ibitegeka kandi bikagaragara ko harimo n'abagenzi benshi.

Umuhanda nyabagendwa. Bigaragara ko hari imodoka n'imoto ndetse n'igare biri kuva mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda. Ku nkengero z'umuhanda hakaba harimo utuyira tw'abanyamaguru. Ku mpande z'umuhanda hakaba n'inzu ubona ko zituwemo kandi hakaba hari n'ibikoresho nsakazamajwi bihari. Hakaba hari n'ibyuma byabugenewe bitwaye insinga z'amashanyarazi.

Iyi shusho irerekana ahantu hari amatara amurika bigaragara ko ari mu nzu, kandi aho hantu hakaba iyo nzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye akaba ari na pisine.

Umuhanda nyabagendwa. Aho bigaragara ko uwo muhanda ugiye ushambikiyeho indi mihanda. Bikaba bigaragara ko imbere y'aho y'imihanda no ku nkengero z'imihanda, hari inzu zinini cyane, ubona ko zikorerwamo serivisi zitandukanye kandi ku nkengero z'umuhanda, hakaba hari ibiti bigiye bikuze bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa ushushanyije nk'uko leta ibisaba, kandi imbere mu muhanda akaba ari akantu gatandukanya imihanda gateyemo indabo nziza cyane, ku bindi bisate by'umuhanda hakaba harimo ibinyabiziga biri kuzamuka, harimo moto ndetse n'imodoka ntoya zitwara abantu hamwe, hakaba hari n'ibiti hakurya yaho bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo ibinyabiziga biri guturuka mu byerekezo byombi kandi hakaba harimo imodoka zipakiye hakaba harimo n'amamoto atwaye abagenzi bikaba bigaragara ko ku mpande z'umuhanda hari ibiti bikuze kandi byagundutse cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo ibinyabiziga bitandukanye biri guturuka mu byerekezo byombi by'umuhanda, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari n'inzu zihubatse zikoremo ubucuruzi. Kandi hakaba n'ibikoresho nsakazamajwi, hakaba hari n'amatara amurikira umuhanda kandi ikirere kikaba gifite umweru n'ubururu buvanze.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko umuhanda uri gukoreshwa mu byerekezo byombi, bikaba bigaragara ko harimo imodoka ntoya atwarira abantu hamwe hakaba hari n'amamoto atwaye abagenzi ndetse kandi hakaba harimo n'amatara amurikira umuhanda, hagati mu mihanda hagiye hateyemo indabo nziza cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ari mu ihuriro ry'imihanda ibiri, hakaba mu muhana umwe hari guturukamo imodoka, ahandi ku muhanda hakaba haparitsemo igare, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bikuze, ndetse n'indabo hakurya ukaba ubona ko hatuwe n'abantu, kandi harimo n'amazu menshi ukaba ubona ko ari mu mugi.

Umuhanda nyabagendwa harimo imodoka n'amamoto biri guturuka mu kerekezo kimwe gitandukanye kandi ku nkengero hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari n'indabo ziteye ku muhanda.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa, aho harimo abamotari batatu bashoreranye bapakiye abagenzi, ku mpande mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo umugenzi, bikaba bigaragara ko bagiye kwinjira munsi y'ikiraro.

Umuhanda nyabagendwa hari imodoka ziri guturuka mu byerekezo byombi bitandukanye ndetse n'amamoto bikaba bigaragara ko nkengero z'umuhanda hariho indabo kandi hakurya bikagaragara ko hari n'umunara w'itumanaho.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ushamikiweho undi muhanda, aho bigaragara ko iyo mihanda ikorerwamo mubyerekezo byombi, bikaba bigaragara ko ku muhanda hagiye hari ibiti bikuze binini cyane, kandi ukabona ko hakurya hari amazu agiye atuwemo n'abantu benshi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ushamikiyeho indi mihanda, aho bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi kandi ku nkengero z'umuhanda bikagaragara ko hatuwe n'abandi baturage benshi cyane ndetse n'amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi hakaba harimo n'ibiti by'indabo byiza cyane byakuze.

Mu muhanda nyabagendwa uwo muhanda bigaragara ko ari uw'igitaka kandi ku nkengero z'uwo muhanda hakaba hagiye hateye ibiti, hakaba hanagiye hanatuye abaturage kandi ukaba ubona ko hari n'umuhora utwara amazi, ukaba ubona ko uwo muhanda utarakorwa neza cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari inzu yabugenewemo abagenzi bicaramo, kandi ku wundi muhanda, ku muhanda ukaba uri kubona ko hari gucamo ibinyabiziga bitandukanye, amadoka n'amamoto, hirya yaho ukaba uhabona ibiti bikuze cyane.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho bigaragara ko harimo imodoka itwara imizigo ndetse n'abamotari batwara abagenzi hakaba harimo n'umunyonzi utwaye igare aricunze kandi hakurya y'imihanda ukabona ko hari inzu z'ubucuruzi zigenda zikorerwamo.

Umuhanda nyabagendwa ubona ko ugabanyijemo ibisate bibiri by'umuhanda, ku inkengero z'uwo muhanda hakaba hari ibiti byiza ubona ko bikuze kandi hakaba harimo n'indabo, ukaba ubona ko uwo muhanda umurikiwe hose kandi ukaba ubinako harimo n'ibinyabiziga birikuva mu ibyerekezo byombi by'umuhanda harimo; amamoto ndetse n'amamodoka.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi hakaba hagaragaramo ikimodoka kinini cyabugenewe gitwara imizigo ndetse n'imbere hagaturuka n'indi modoka nini itwara imizigo ndetse n'abamotari batwaye abagenzi bikaba bigaragara ko hari n'ikiraro imodoka zinyura munsi kandi hakaba hari n'ibiti binini bikikije umuhanda.

Abantu babiri bafashe terefone mu ntoki zose ziri kwaka umwe yambaye umupira w'umutuku akaba bose bari imbere y'ameza akoze mu rubaho rw'umweru.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko uwo muhanda ku nkengero zawo hagiye hari indabo nziza cyane, kandi ku nkengero z'umuhanda bikagaragara ko hari n'akayira k'abanyamaguru gakoze neza cyane, kandi ukaba ubona ko hakurya hari n'ibiti binini cyane, kandi uwo muhanda bikagaragara ko ufite amatara awumurikira mu mpande zombi, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Umuhanda w'icyodo ubona ko uwo muhanda udakoze neza kandi bikaba bigaragara ko harimo ikinyabiziga cyabugenewe cy'imoto yikorera imizigo kandi ku nkengero zawo, ukaba ubona ko hari inzu zituwemo n'abantu, zisa n'izikuze ndetse n'izigezweho. Ku mpande hakaba hari n'ibiti by'indabo bikuze, no hakurya bikagaragara ko ari ikindi gice gituwe cyane, ubona ko ari mu mujyi, harimo inzu zinini zabugenewe z'icyerekezo.

Iyi shusho iratwereka umuhanda nyabagendwa ,aho kuri izo nkengero z'umuhanda hari ibyatsi kandi bikagaragara ko harimo n'amatara amurika umuhanda, hakaba hari n'imodoka ebyiri ziri guturuka mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda.